Igishushanyo, ni igishushanyo gishushanije ku gikuta, igikuta kikaba gishushanijeho ibara ry'umuhondo, hakaba hashushanyijweho inyoni nini cyangwa se nkuru, iri kurebana n'akandi kanyoni gatoya, kari imbere yaho hafashanyijweho impande yaho n'ibice bigize umubiri w'umuntu.

Utwana, ni abana babiri umwana w'umuhungu ndetse n'umukobwa, bahagaze imbere hanyumazu bakakorerwamo inkwavu, bakaba bafite udukwavu tubiri mu ntoki ndetse inyuma y'aho mu kazi, hakaba hari n'izindi nkwavu, udukwavu bafite, bafite ubwatsi bagiye kutugaburira, bahagaze ahantu inyuma y'igipangu, ahantu hari k'igitaka.

Ni ibikoresho bitandukanye by'abana cyangwa se ibikoresho by'abana hakaba harimo imodoka, udukinisho tw'amaso ndetse amaso ndetse n'ibindi bikinisho abana bifashisha mugukina no gukangu ubwonko bwabo.

Iyi nzu, ni inzu isa naho ishaje, isize amarangi y'umuhondo, ndetse na purente y'umukara, ikaba ishushanyijeho igishushanyo cy'igikanka cyangwa se taraka, igikanka cy'umubiri w'umuntu kuri icyo gikuta, iyi nzu kandi ifite amadirishya asize irangi ry'ikinombe.

Aha kuri iyi foto ndahareba hano ubutaka imbere yange harimo umukuku ukaba waratewe n'amazi aturuka mu gipangu kegereye amazi agenda ahaturuka niyo yaciye uwo mukuku ahangaha mbere yange ndikuba no muri icyo gipangu hakaba hahagazemo umuntu wambaye ubururu n'umweru ndetse hateretsemo n'ijerekani.

Hano ndahabona inzu zisa naho zishaje ukuntu hanyuma hasi ni ikigega cy'umukara hakaba hari imyotsi myinshi hakaba hari ibiti bihakikije hakaba hari n'ikibuga gishashemo amatafari hanyuma hakaba hari amafoto cyangwa se amazamu ari mu ibara ritukura ariko hepfo gatoya hasa nk'ahazubakwa amazamu ugana ku nzu hasa nk'ahakwirakwije ibyuma.

Abana, ni abana batoya cyane kandi benshi, bahagaze imbere y'ishuri bari kumwe n'abarimu ndetse n'ababyeyi, aba bana bakaba bambaye imyenda isanzwe itari iniforume harimo n'abambaye uniforume.

Ibi bitabo ni ibitabo bitandukanye biteretse ahantu ku meza, bikaba ari ibitabo bishyashya bifite amabara y'umutuku harimo n'iby'umuhondo ndetse hakabamo n'ibifite ibara ry'umweru, uruhande rwabyo hakaba hahagaze umuntu arimo kubreba.

Ni inyubako isa n'ishaje, ifite amabara y'umuhondo n'umukara bisa n'ibishaje, haparika igare risa nirishaje, hakaba hashushanyijeho isaha y'uruziga, ikoze muri mpande enye ariko zihuza urushinge.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, akaba ari inzu y'ikigo cy'ishuri gishushanyijeho ibikoresho bitandukanye, harimo amatoroshi, harimo ibisokozo, harimo matela, harimo indobo, amabase, harimo n'ibihingwa, ibitoki ndetse n'ibishyimbo, hakabamo ibisimba, harimo ifi ndetse n'ibinyugunyugu, bikaba byifashishwa mu kwigisha abana.

Izi ni imbuto, ni imbuto ziri mu itsinda cyangwa se muri seti, akaba ari imbuto zitandukanye harimo pome, imineke ndetse n'izindi mbuto, zikaba ziri hamwe zitwa seti.

Aha hari ikibahu, ni ikibahu cyandikwaho mu gihe cyo kwiga muri pirimeri cyangwa segondaire cyangwa segonderi, kikaba cyandikishijeho amacake, muri iryo shuri hakaba harambuyemo umukeka, hakabamo n'intebe ndende, harimo n'izindi ntebe ebyiri zegamirwa.

Aha ndahabona inyubako iyo nyubako ni inyubako ndende igeretse kabiri, iyo nyubako ikaba ikorotirjwe n'ibikoresho bisize ibara ry'icyatsi kibisi, ikaba ifite inzugi z'icyatsi kibisi, ikaba ifite konoshi, izo konoshi zisize amabara y'umweru ndetse n'umukara hasi ku ntangiro zayo ikaba isakaje amabati y'ubururu.

Hano ndahabona umwarimu, umwarimu yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'akajipo k'umutuku, hari abana b'abanyeshuri babiri muri bo bafite imbago bagenderaho, bambaye inifomu z'ubururu n'umweru, hanyuma bakambara amasogi y'umweru n'inkweto z'umukara, hafi hakaba hari ibitabo biri mu kabati, hari n'ameza, agateko ko kwicaraho ndetse n'umweyo na rakirete.

Hafi yanjye hano ndahareba intebe abanyeshuri bicayeho, umunyeshuri wa mbere afite ibisuko ni umukobwa hakaba hahagaze umugabo wambaye amarinete ndetse na kositime yafashe urupapuro rwe bigaragara ko ari televiziyo yakoze, imbere hakaba hari n'umuntu urimo urafotora, hakaba hari ikibaho cy'umukara ndetse n'amadirishya y'ibirahure hafi aho.

Ibi byapa cyangwa se ibimenyetso n'ibimenyetso bitandukanye bigaragaza ibikoresho byifashishwa mu kwiga, bikagaragaza ibikoresho n'icyo bivuga harimo ibivuga siyance, harimo ibivuga kwiga cyangwase raningi, harimo ibivuga ayidiya cyangwase ibitekerezo, harimo ibivuga sikuru cyangwa ikigo, harimo ibivuga tereyiningi cyangwa amahugurwa, ni ibivuga egukesheni cyangwa uburezi.

Abana, ni abana batoya bo mu mashuri abanza, cyangwa se ay'inshuke, bakaba ari abana bakeya bicaye ku ntebe za pipitire, bakaba bambaye iniforume ya bulu siyeli, ndetse n'ubururu hasi, mu ishuri ryabo harimo ikibaho cyanditseho, ndetse no ku gikuta hagiye hashushanyihe ibishushanyo bitari bike.

Ibikoresho biri hano, ni ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana batoya, harimo amakereyo, harimo amagome, harimo amarati, harimo imikasi, harimo ndetse n'utundi tuntu tw'amabara agiye atandukanye two kwigishirizaho abana.

Ni ibitabo byinshi cyane cyane birimo inkuru z'abana hakaba hari n'igishushanyijeho umwana wicaye mu gataka, ibindi bikaba bishushanyijeho umuntu byose biri ahantu hamwe birunze ariko bikaba ari iby'abana bo muri nasari na pirimeri bigiramo.

Ibitabo ni ibitabo birimo ibintu bitandukanye, cyane cyane birimo inkuru abana bakunda, ariko hari hicaye abantu babiri aha bari kuganira abandi bari gukina byose n'i nkuru zabana.

Maya ifashwe n'abantu babiri uwo bakaba bafite n'umugabo ufite mikorofone, ikaba yanditseho muri repubulika y'u Rwanda, intara y'irasirazuba, akarere ka nyagatare gutangiza ibikorwa bya siporo n'umuco mu mashuri mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri na gatanu mu karere ka nyagatare.

Aha ndahabona compass, igikoresho kifashishwa mu mibare gushushanya, gushushanya rimwe na rimwe ushushanya uruziga, kikaba gifiteho inshinge, kikaba gifite ibara ry'umukara hejuru ku mpera hanyuma kikaba gifite amaguru abiri giteretse ahantu, ahantu kirambitse hari ibara ry'umweru.

Aha kuri iyi foto ndahabona ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu isomo ry'Imibare haririmo amarati maremare na mpande eshatu ndetse n'aya mpande enye, hakaba hateretse na buwate matematikari iruhande rwaho hakaba hari amakompa, amakereyo ndetse n'udukoresho twifashishwa mu guconga kereyo kugira ngo ikore neza.

Ni isomero iyo dukunze kwita layiburari mu rurimi rw'icyongereza, akaba harimo ibitabo bitandukanye biri mu mabara atandukanye, hanyuma hari ahanditse ngo ticazi mate, ni ibitabo by'imibare, ibitabo byinshi biri mu tubati kandi bikiri bishasha.

Aha kuri iyi foto ndabona abanyeshuri, ni abanyeshuri benshi bahagaze ku murongo bambaye neza, bifashe neza bose bareba hasi bambaye impuzankano z'umukara n'umweru, imbere yabo hakaba hari ubatoza bahagaze ahantu mu kibuga gishashemo sima mu kibuga cya basket hafi aho hakaba imbere yabo gato hari idrapo ndetse n'amashuri.

Aba banyeshuri ni abanyeshuri bo muri segonderi, bakaba bicaye ahantu ku ntebe buri wese yicaye afite ikaramu n'urupapuro, bakaba barimo gukora ibizamini, ni abana b'abanyeshuri bicaye ku ntebe, bakaba bambaye iniforume z'umweru hejuru, bakaba bambaye kandi imipira y'icyatsi kibisi.

Abanyeshuri bambaye impuzakano bambaye amajipo ya kaki hejuru bambaye imipira y'ubururu bari kuririmba cyane banakoma amashyi bari imbere y'ishuri hari bari kumwe n'undi muntu w 'umwarimu wambaye ipantaro yumukara n'ishati yumweru ndetse yambaye n'isaha.

Aba ni abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bakaba bari ahantu mu gisare kinini cyane icyo twita refegitwari bakaba bari imbere yabo hateretse amabase ndetse n'ibikombe, n'masahani barimo bigaragara ko barimo gufata ifunguro. Aba banyeshuri ni abanyshuri bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'umukarasi.

Kuri iyi foto ndahabona abantu babiri, abantu babiri bambaye amashati y'umweru hariho esigne cyangwa se ikirango hanyuma bakaba bafite impapuro mu ntoki umwe yagapfutse ndetse n'agatabo mu ntoki kari mu ibara ry'umukara, biragaragara ko hari ibintu barimo gusoma kuri rwa rupapuro bafite.

Kuri iyi foto ndahabona inzu ni inzu yanditseho ishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye hanyuma yicayemo abantu bicaye ku dutebe tw'umweru imbere yabo hakaba hahagaze umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi akaba imbere hari ameza akaba ari kubaha ikiganiro.

Ishuri, ni ishuri rigari cyane rimeze nka salle, rikaba ririmo abanyeshuri bo muri segondere bambaye iniforume nziza, amashati y'umweru ndetse ipantalo n'amajipo ya kacye, bakambara amasaha ku kuboko n'inkweto z'umukara, bakaba bicaye ku ntebe zisa, imbere yabo hakaba hari umwarimu ufite mikorofone imbere uri kubasobanurira.

Ishuri ni abanyeshuri bo muri kaminuza haba harimo aba mama ndetse n'aba papa ndetse n'abasore biyicariye mu ishuri bakaba bafite n'amakaramu barimo kwiga.

Hano imbere yanjye hari igikuta gisize irangi ririmo nk'ibara ry'ubururu ariko bwerurutse, hanyuma hakaba hari urugi rwiza rwa labu rwanditseho ngo UR ICT Lab Nyagatare campus ni ahantu nyine mu cyumba.

Aha kuri iyi foto iri imbere yange ndahareba igikoresho, igikoresho gikoze nk'aho ari aka base icyo gikoresho kikaba gikoze mu ibumba cyangwa se mu cyondo kikaba kirateretse ahantu mu nzu bigaragara ko ariho basanzwe bakora ibintu nk'ibyo kikaba gifitemo utuntu tugiye twizigazinze.

Abanyeshuri ni urubyiruko rwinshi rw'abanyeshuri rwicaye ahantu mu ishuri muri kaminuza, bakaba bari mu magurupe atandukanye, bari kuganira bicaye ku ntebe nziza zifite ibara ry'icyatsi n'umukara, ndetse n'ameza asize irangi.

Aha ndahabona ibikoresho, ibikoresho by'ubugeni bikoze mu ibumba cyangwa se mu cyondo, hanyu akaba ari ibikoresho, igikoredesho kimwe, gifite twizinga twizingazinze nkaba ndikuharebe imifuka, ibikuta ndetse na sima.

Umukobwa, hano hari umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, afite ibisuko, yambaye amaherena, ari kumwe na mugenzi we, ari inyuma ye ndetse n'abandi benshi bari kumwe muri laboratwari, bakaba bafite igikoresho cya mikorosikope, akaba ari kurebamo abantu bari sikoropinze.

Ibikoresho, ni ibikoresho bitandukanye, bibaje bitandukanye, hari ibikze nk'ibicuma, ibindi bikaba bikoze nk'amavase, bikaba bikozwe mu ibumba ariko bikaba biteretse ahantu mu kabati, ibi bikoresho bikaba byifashishwa mu bugeni.